Ikibindi cyifashishwaga mu buryo butandukanye by'umwihariko kubika amazi, kuregekagamo amazi mu gihe imvura irimo kugwa, gushiramo umusururu cyangwa se gushyiramo urwagwa rumaze gushya kugira ngo rwifashishwe mu birori.

iyi ntara iriho gacuma n'uruhu n'umuseke, akenshi mu muco nyarwanda byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye ariko cyane cyane kunywesha ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo bimaze gusarurwa biva mu murima, aho byamaze gutunganwa kugira ngo bize kugezwa ku isoko bimeze neza.

Inzu z'indaro zituwemo muri iyi minsi ndetse no mu gihe cyashize, by'umwihariko muri iki gihe izi nzu ntago zikibaho cyane kuko zabaga zigizwe no mu kirambi n'ibindi bice bitandukanye, hejuru hariho akabindi kunzu hejuru.

Imodoka ibiri zitandukanye ziri mu byerekezo bitandukanye, imwe yikoreye Kontineri indi yikoreye imizigo itwikiriye, zikaba ziri guca mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka nini zitwaraga abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, by'umwihariko bava mu mugi wa Kigali bajya mu ntara, cyangwa se bava mu ntara bajya mu mugi wa Kigali, ziba zitwara abantu bari hejuru ya mirongwinani.

Isiganwa ry'amagare kenshi rikunda kugendamo ariko aha ngaha bikaba bigaragara ko ari mu mujyi gashi.